Uyu ni umworozi w'amafi, ni umugabo arimo kugenda areba amafi akuze, akayarobanura mu yandi kugira ngo ayajyane ku isoko bamuhe amafaranga, biragaragara nk'aho abimazemo igihe kirekire.

Igitebo kirimo ikawa zihishije barimo kugenda bazisarura baziterera muri iki gitebo kugira ngo nizimara kuba nyinshi baze kujyana ku isoko cyangwa se ahantu hari uruganda batunganya ikawa maze babahe amafaranga.

Ababyeyi b'abamama bari kwita ku mashu yabo neza kugira ngo abone uburyo akura bazabone n'uko bayajyana mu isoko babone abakiriya babahe amafaranga.

Umurima urimo ibigori bikiri bito bibagariwe neza, ntabwo byari byazana amasunzu ariko biratoshye nta zuba ryinshi nta mvura nyinshi byiteguye gushyirwaho ifumbire rigakura neza ubundi.

Insenda nyinshi zihiye zitukuye, ziteguye kujyanwa ku isoko kugira ngo bazikoremo izindi porodagiti, kandi n'abantu bazikeneye babashe kuzibona, zisa neza.

Umugabo arimo kuhira umurima w'amashu,, ni mu gihe cy'izuba kugira ngo aya mashu abashe gukura neza, ndetse namara gukura bayajyane mu isoko ,abone abakiriya na we abone amafaranga.

Umurima urimo urutoki ndetse hari n'icyuma gishinzwe kuhirira urwo rutoki ndetse kugira ngo ubutaka bubashe kubobera kugira ngo imyaka yere neza.

Inyamaswa irimo irazamuka ahantu ku musozi. Iyi nyamaswa ni inkende, irimo irazamuka kandi mu gihe cy'izuba ryinshi cyane.

Imbwa zirimo kwirukanka cyane ndetse zifite ikintu zirimo kureba cyazirangaje, nk'inyamaswa yindi ariko harimo zimwe zicaye kuko zishobora kuba zifite ubwoba.